Abana biga mu mashuri y'inshuke azwi nka garidiyeni, benshi bicaye hamwe, bari kumwe n'ababyeyi babo ndetse n'abarezi babana nabo mu buzima bwabo bw'ishuri bwa buri munsi.

Inyamaswa y'agasozi izwi nk'imbwa, ifashe igikinisho mu kanwa, gikoreshwa mu guhoza abana, biga mu bigo by'amashuri y'inshuke azwi nka garidiyene.

Kimwe ni ikigo cy'amashuri abanza kirimo n'ishuri ry'abana b'inshuke rizwi nka garidiyeni, harimo abana bari gukina mu gihe cy'akaruhuko.

Ibikinisho birimo imodoka ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa bigisha bakinisha abana b'inshuke biga mu mashuri azwi nka garidiyeni kugira ngo barusheho kunguka ubu,

Ibishushanyo biri mu bwoko butandukanye, birimo, isuka, ibase, imyeyo, ibitoki, ibibabi, ingorofani ndetse n'ibindi bikoresho, biri ku rukuta rw'ishuri ryigamo abana b'inshuke.

Ibikinisho by'abana birimo imodoka n'utundi dukinisho turi ku ruhande, byifashishwa mu kwigisha no mu guhoza abana, biga mu bigo by'inshuke, bizwi nka galidiyene.

Ibishushanyo bitandukanye byifashishwa bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke azwi nka garidiyene kugira ngo barusheho kwagura ubumenyi bwabo no gusobanukirwa amashusho y'ibintu.

Ibishushanyo bikoze mu masura y'abana ndetse n'utunyamaswa, byifashishwa bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke, azwi nka garidieyene kugira ngo barusheho gukarishya ubumenyi bwabo, mu bijyanye n'amasomo yabo.

Ibishushanyo bigizwe n'amasura y'abana bishushanyije ku kuboko zikoreshwa mu kwigisha abana b'inshuke bizwi nka garidiyene kugira ngo barusheho kugira ubumenyi bwo kumenya ibintu n'abantu.

Icyapa cyometse ku rukuta rw'ishuri kigaragaza bimwe mu biranga ishuri ryigamo abana biga bataha rizwi nka pirimeri kugira ngo buri wese abone ibyo ishuri rikora.

Umwana wegereye igishushanyo gishushanyije ku rukuta rw'ishuri ryigamo abana b'inshuke, igishushanyo gishushanyije mu isura y'umuntu w'umwana wambaye impuzankano kugira ngo abandi bana bamwigireho.

Umuntu uri gushushanya ibishushanyo bizifashishwa bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke azwi nka garidiyene kugira ngo bizarusheho gukomeza kubongerera ubumenyi bugiya butandukanye mu bintu bitandukanye.

Abana biga mu mashuri y'incuke azwi nka garidine bari kubyicundo bari kurya umunyenga mu gihe cyo gukina kugirango ngo barusheho kuruhuka no kwishima.

Ibishushanyo birimo imyeyo n'imbase bishushanyije ku rukuta rw'ishuri ryigisha abana b'incuke ribafasha kumenya ibikoresho byo mu rugo no kugira ubundi bumenyi buhagije igihe bari ku ishuri.

Igikapu gishushanyijeho inyuma gikoreshwa batwara amakayi y'abana biga mu mashuri y'inshuke azwi nka garidiyene kugira ngo ibikoresho byabo bitangirika.

Bumwe mu buryo bwifashishwa kwandika, burimo ibihekane byanditse mu buryo buri mu cyapa no mu mukono, bifasha kwiga neza abana biga mu mashuri y'incuke, azwi nka garidiyene.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'abana ku ishuri birimo: ikaramu, ingwa bakoresha biga kwandika kugira ngo bakomeze kugira ubumenyi buhagije mu bijyanye n'imyandikire.

Ibikinisho by'abana birimo imodoka, igare, ndetse n'ibindi bikoreshwa mu gukinisha abana biga mu mashuri y'incuke azwi nka garidiyene kugirango bishime kandi bige neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke azwi nka garidiyene bambaye impuzankan bahagaze imbere y'urukuta rushushanyijeho igishushanyo kiri mu bwoko bw'ingorofani bibafasha kumenya ibikoresho by'abafundi.

Ishuri ryigaho abana b'inshuke rizwi nka garidiyene, imbere yaryo rihagazeho abana batatu bambaye impuzankano irimo ishati y'umweru, ikabutura y'ubururu n'imipira y'ubururu, imbere yaryo hari imbuga bakiniraho.

Abana benshi bicaye, biga mu mashuri inshuke, azwi nka garidiyene, bari kumwe n'abarezi babo, bari kubigisha, ubona ko bishimye banezerewe bombi.

Ikibuga kirimo ibyicundo bikoreshwa n'abana biga mu kigo cy'amashuri azwi nka garidiyeni, hafi y'aho hari igikoni bakoresha batekera abana kugira ngo babone igikoma n'ibiryo byo kurya.

Ibishushanyo birimo umutima w'abantu, ikarita y'Igihugu cy'u Rwanda, igikoresho kizwi nk'itoroshi, bishushanyije ku rukuta rw'ishuri mu kigo kigisha abana b'inshuke kizwi nka garidiyene.

Ibishushanyo birimo amashusho y'inkoko n'imyumbati biri ku rukuta rw'ishuri ryigishwamo abana b'inshuke izwi nka garidiyene, aho bibafasha kunguka ubumenyi.

Imwe mu nyubako ishuri ryigishirizwamo abana b'inshuke izwi nka garidiyeni, imbere yayo hari inzira idatunganyije neza inyurwamo n'abo bana bagiye kwiga.

Ibikoresho birimo amakayi, ibikapu, biri mu cyumba kirimo intebe n'utubati, bikoreshwa bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke azwi nka garidini, kugira ng barusheho kwagura ubumenyi bwabo.

Ibikinisho biri mu bwoko bw'utunyamaswa bikoreshwa bigisha, bakinisha abana biga mu mashuri y'inshuke azwi nka garidiyene kugira ngo babashe kunguka ubumenyi.

Inyamaswa izwi nk'imbwa, iri kwirukankana agapira, kayiri imbere, gashobora kwifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke, bari gukina mu gihe cy'akaruhuko kugira ngo barusheho kuruhuka no kwiga.

Igikoresho kizwi nka moto ikoreshwa kujyana abana ku ishuri biga mu mashuri y'inshuke azwi nka nasari ndetse n'umufuka w'amakara ukoreshwa mu gutekera abana ku ishuri.

Ibishushanyo bifite intwaro byambaye n'ingabo za gisirikare biri ku kigo cy'amashuri y'incuke azwi nka garidiyeni bifasha abana kumenya ibijyanye n'umutekano w'igihugu.

Amacupa yo mu mabara atandukanye akoreshwa bashyiramo igikoma cyangwa amazi bajyanira umwana ku ishuri kugira ngo aticwa ni ininzara igihe bari kwiga mu mashuri y'incuke.

Ibishushanyo biri mu bwoko bw'inyamaswa n'imbuto bikoreshwa bigisha abana biga mu mashuri y'incuke azwi nka nasari cyangwa garidiyene kugirango babashe kubona ubumenyi.

Ibikoresho bishushanyijeho udushushanyo dufasha abana kwishima no kurangara, bikoreshwa bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke azwi nka garidiyene kugira ngo agire ubumenyi butandukanye.

Igishushanyo kigaragaza ikarita y'u Rwanda gishushanyije ku rukuta rw'ishuri ryigisha abana b'inshuke rizwi nka garidiyene, kibafasha gusobanukirwa uko igihugu cy'u Rwanda giteye.

Igishushanyo gishushanyije mu buryo bw'inyamaswa izwi nk'inzovu gishushanyije ku rukuta rw'ishuri ryigisha abana b'incuke rizwi na garidiyene kugira ngo ribungure ubumenyi.

Abana biga mu mashuri y'inshuke azwi nka gadiyeni bari kubyicundo bari kurya umunyenga kugira bakomeze kuruhuka ndetse banishimye, ibyicundo byabo binshushanyijeho ibindi bintu bibafasha gukomeza kugira ubumenyi.

Igikoresho kizwi nka kandagiragarabe kiri ahantu kirimo amazi kugira abaturage ndetse n'abandi bantu bahanyura babashe gukaraba intoki mu buryo bwo kwirinda umwanda ushobora kubatera uburwayi.

Igishushanyo kiriho abantu bari guhamiriza bafite ingabo mu ntoki n'abandi babakikije bari kubakomera amashyi kugira ngo barusheho gucinya umudiho mu kigo k'inshuke kizwi nka garidiyene.

Udukinisho tugizwe n'amabara atandukanye harimo; ubururu, umutuku n'icyatsi twifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke azwi nka garidiyene kugira ngo barusheho kugira ubumenyi.

Icupa rishushanyijeho utuntu twiza rikoreshwa mu gutwara igikoma cyangwa amazi babijyaniye abana bagiye kwiga mu mashuri y'inshuke azwi nka garidiyene kugira ngo bataza kwicwa n'inyota cyangwa inzara.

Ibikoresho birimo amakereyo, udukayi dutoya, imashini ikoreshwa mu isomo ry'imibare rikoreshwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke azwi nka garidiyene kugira ngo barusheho gukomeza kugira ubumenyi bushyitse.

Imitako yo mu bwoko bw'imbuto, iri ahantu hagenewe kwigira abana b'inshuke, bizwi nka garidiyeni kugira ngo barusheho kwiga neza, bishimye kandi banezerewe.

Udutabo turi mu mabara atandukanye, twifashishwa bigisha abana b'inshuke, mu mashuri azwi nka garidiene kugira ngo barusheho kunguka ubumenyi ndetse babashe no kumenya ibintu bitandukanye.

Amashuri y'abana biga bataha mu mashuri abanza ya pirimeri, imbere yayo hari ibikapu biri ku ntebe by'abana baba batwayemo ibikoresho by'ishuri.

Ibikoresho bihangano birimo najoro ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo barusheho kumenya ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu ngo iwabo.

Bimwe mu bikoresho birimo amarate bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri bakoresha bashushanya mu masomo yabo cyane cyane mu isomo ry'Imibare.

Ibikoresho birimo irate, kereyo bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri bakoresha biga gushushanya cyanecyane mu isomo rizwi nk'imibare kugira ngo barusheho gukomeza gukarishya ubumenyi.

Mu bikoresho birimo imikasi, amakereyo, amakayi, biri ahantu bishobora kwifashishwa bigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri kugira ngo barusheho gukomeza gukura mu bumenyi.

Ikigo cy'amashuri abanza azwi nka primaire cyubatse mu buryo bwa etaje igeretse rimwe, gikeye kimeze neza gifite na coroture ikizengurutse kugira ngo abana badatoroka.

Igikoresho gikoreshwa babikamo ibikoresho by'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri akoresha mu gihe cy'amasomo yiwe cyane cyane mu isomo ry'imibare yiga gushushanya.

Bimwe mu bikoresho by'ishuri birimo amadarubindi akoze muri pulasitike bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo barusheho gukomeza kunoza no kugira ubumenyi buhagije mu bijyanye n'amasomo yabo.

Amwe mu mashuri agize ikigo kigaho abanyeshuri biga bataha, biga mu mashuri abanza, imbere gihagazeho umurezi, akaba ari amashuri yubatswe vuba, ataruzura neza kuko imbere yayo ntago hakoze neza.

Ibikoresho birimo udutebo, amasuka, najoro, amapiki, udufuni tw'inyamoro bikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza kugira ngo bamenye ibikoresho byo mu rugo ndetse barusheho gukomeza kugira ubumenyi.

lnzira y'ibitaka idakoze neza igana ku kigo cy'amashuri abanza azwi nka primary ,ku mpande z'iyo nzira hateye ibigori byinshi ,bishobora gutera abana ibibazo by'imibu ,ishobora kubatera malariya.

Icyumba cyagutse kirimo ibikoresho n'intebe n'imitako, kifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza azwi nka primary kugira ngo bahabwe ubumenyi bwiza kandi bugezweho.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri bose bapfukamye bari kwiga kwandika ku kibaho bakoresheje ingwa bahawe n'umurezi wabo.

Abantu bahagaze imbere y'ikigo cy'amashuri abanza azwi nka pirimeri, harimo abambaye jire n'ibisarubeti by'akazi ndetse n'abandi bameze nk'abayobozi b'icyo kigo cy'amashuri.

Ibikoresho birimo amarate, kereyo, gome, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri mu gihe bari kwiga gushushanya mu isomo ry'imibare.

Umwana wiga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri, ufite igitabo kibumbuye uri gusomera inkuru abandi bana bagenzi biwe bicaye bateze amatwi ibyo ari kubabwira.

Ishusho igaragaza umwana wambaye agasarubeti, ufite igitabo mu ntoki, uri kwerekana inyuguti ziri hejuru yiwe zakifashisha zigisha abandi bana biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri.

Ibikoresho byanditseho imibare igiye itandukanye urugero: rimwe, kabiri, kane, gatanu, gatatu, umunani ndetse n'iyindi igiye itandukanye yifashishwa mu kwigisha imibare mu bana biga mu mashuri abanza.

Ibikoresho birimo kereyo, imikasi, ibitabo n'amakayi, bifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza kugira ngo barusheho gukomeza kugira ubumenyi bugiye butandukanye, mu masomo atandukanye.

Icyumba cyagutse kirimo ibikoresho n'ibishushanyo ndetse n'intebe zifasha abana biga mu mashuri abanza ya primary kwiga neza no kugira ngo babashe kubona buri kimwe gikenewe ngo bagire ubumenyi buhagije.

Imwe mu nyubako zigize ikigo cy'ishuri rya primeri kigaho abanyeshuri biga bataha, rimeze neza yubatse mu buryo bwa etaje igeretse rimwe, hari inzira ikoze mu ngazi inyurwaho n'abanyeshuri bazamuka bajya muri iyo nyubako.

Imwe mu nyubako zigize ikigo cy'amashuri cyigaho abana biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri gikeye kandi gifite isuku, imbere yacyo hari ubusitani burimo indabo ndetse n'igiti kitarakura cyane.

Imwe mu nyubako zigize ikigo cy'amashuri abanza, yigaho abana biga bataha ikeye imeze neza, imbere yayo haparitse moto iticayeho umuntu.

Umuhanda w'igitaka ugana mu kigo cy'amashuri abanza ya pirimeri aho abana biga bataha ndetse bakaba banyuramo muri uwo muhanda bari kujya mu rugo iwabo.

Bimwe mu bikoresho birimo amarate, gome, ikereyo, ndetse n'amakayi mato yo gushushanyamo akoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri.

Ibikoresho birimo imikasi, amakereyo, amarate, amagome bikoreshwa bashushanya, bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo bagire ubumenyi mu gushushanya.

Kamwe mu dusimba tuguruka kazwi n'ikinyugunyugu kiri ku ndabyo gafite amabara meza gashobora mu gukoreshwa bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo bunguke ubumenyi.

Inyubako zigize ikigo cy'amashuri abanza azwi nka pirimeri gisize amarangi meza cyane, gifite ubusitani bwiza, inyuma y'imwe muri izo nyubako hagaze abanyeshuri.

Ibikoresho birimo; amarati, amakereyo, gome, bikoreshwa n'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, bikoreshwa mu gushushanya mu gihe cy'amasomo.

Bimwe mu bikoresho bizwi nk'amarate, kereyo na gome ndetse n'akandi gakoresho kabika kazwi nka buwate, gakoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, cyane cyane mu isomo rizwi nk'Imibare kugira ngo babashe kuritsinda.

Ibikoresho birimo imikasi, imishipiri, metero ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga amashuri abanza kugira ngo barusheho gukomeza kumenya ibikoresho bigiye bitandukanye, mu buzima busanzwe.

Igikapu gitoya gishushanyijeho inyuma, gikoreshwa n'umwana ugiye kwiga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri, kugira ngo atwaremo ibikoresho byiwe bitangirika mugihe ari kugenda.

Ikigo cy'amashuri abanza azwi nka pirimeri kirimo amashuri menshi mezafite, inzira nyabagendwa abanyeshuri banyuramo bagana mu mashuri yabo ndetse inabarinda kuba banyagirwa mu gihe cy'imvura.

Abarezi bahagaze ahantu hamwe bambaye amataburiya asa y'umweru, ari imbere y'ikigo cy'amashuri, kigaho abana biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri, bari hamwe bari gufata agafoto k'urwibutso rw'ibintu bari barimo.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kwigisha abana, biga mu mashuri abanza, azwi nka pirimere kugira ngo barusheho gukomeza guhabwa ubumenyi ndetse bakomeze kunguka ibintu bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo ibishushanyo ibikoresho birimo iby'umuziki n'intebe byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri kugira ngo barusheho kugira ubumenyi.

Igikoresho kizwi nka buwate kirimo: gome, ikereyo, amarate, bikoreshwa n'abana biga mu mashuri abanza, biga gushushanya cyane cyane mu isomo rizwi n'imibare kugira ngo barusheho gukomeza kongera ubumenyi buhambaye.

Icyumba kirimo mudasobwa zikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri harimo n'umuntu wambaye itaburiya y'umweru uri kureba niba mudasobwa zikora neza.

Ibikoresho bijya bitandukanye birimo amakereleyogome amarade amasaha byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri kugira ngo barusheho gukomeza kugira ubumenyi buhagije.

Ibitabo bitandukanye, byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza, azwi nka primary kugira ngo barusheho gukarishya ubumenyi bwabo, babashe gutsinda amasomo yabo neza.

Bimwe mu bikoresho by'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri yifashishwa mu masomo yiwe atandukanye cyanecyane isomo ry'imibare aho baba bari gushushanya imfuruka zigiye zitandukanye.

Ibikoresho birimo imipira, imigozi yo gusimbuka, bikoreshwa n'abana biga mu mashuri abanza ya pirimeri mu gihe cya siporo kugira ngo baruhuke, baruhure no mu mutwe babashe kwiga neza.

Inkuru ishushanyije igaragaza abana bambaye impuzankano ifasha abandi banyeshuri biga mu mashuri abanza ya pirimeri kugira ngo barusheho kugira ubumenyi.

Kimwe mu bikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri kiba kirimo ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya mu isomo ry'imibare kugira ngo babashe kuritsinda neza.

Zimwe mu nyubako zigize ikigo cy'amashuri abanza kizwi nka pirimeri zubatse ku murongo, zifite inzugi n'amadirishya by'ubururu zikoreshwa bigisha abana.

lbikoresho birimo umukasi, amakaramu ,kereyo ,gome, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bari kwiga gushushanya, cyane cyane mu isomo ry'imibare, kugira ngo barusheho gukarishya ubumenyi.

Abantu bambaye udupfukamunwa bose harimo n'umuporisi, bari ku kigo cy'amashuri abanza, begereye umuryango ufunze bameze nk'abagiye kuwufungura.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bicaye mu cyumba k'ishuri bazamuye ibiganza bari kwereka umurezi wabo ko bafite ibisubizo byo kuba bamuha ari kubabaza ku kibaho.

Amarembo magari y'ikigo runaka mu bigo byigisha abana biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri kugira ngo bahabwe ubumenyi bw'ibanze ndetse n'ubwisumbuye.

Ibikoresho birimo: umukasi, irate, ikereyo, gome, bikoreshwa n'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri, bimufasha kwiga gushushanya mu isomo ry'imibare.

Inyubako nziza y'amashuri y'ikigo cy'amashuri abanza yubatswe mu buryo bwa etaje igeretse rimwe, ku mpande zayo hari inzira y'ingazi ndetse imbere yayo hari ubusitani bumeze neza.

Igikoresho kirimo utuntu tw'udukoresho dutoya dutandukanye, dufite amabara atandukanye harimo umutuku, icyatsi, ubururu, umuhondo, bifasha abana biga mu mashuri abanza ya pirimeri mu kwiga kwabo.

Umunyeshuri wiga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri, ufite ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya, uri gushushanya uruziga ku rupapuro rumuri imbere ndetse imbere ye hakaba hari n'amarati n'ibindi bikoresho.

Igikoresho kizwi nka bowate, kirimo kereyo, gome, gikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri, byifashishwa bashushany,a cyane cyane mu isomo ry'imibare kugira ngo barusheho kunguka ubumenyi.

Igishushanyo kiriho umwana wiga mu mashuri abanza ya pirimeri uri kwiga gukora akagendesho azajya atwara agiye kwiga kugira ngo bimurinde irungu kandi yihute.

Mu muryango w'ikigo cy'amashuri abanza azwi nka primary, urimo abana bari kwinjira bagana mu kigo mo imbere ,bagiye kwiga amasomo yabo ,kugira ngo bakomeze kugira ubumenyi buhagije.

Igihangano mu buryo bw'amashusho kirimo umwana, inyuma ye hari ubusitani burimo ibyatsi bitoshye bimeze neza n'igiti cyamezemo, inyuma hari amazu y'abaturage bahaturiye.

Ibikoresho birimo: amakayi, amakaramu, amarate, amakeleyo, amagome, byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza kugira ngo barusheho gukomeza gukarishya ubumenyi mu masomo yabo.

Igikoresho kizwi nka buwate ibamo ibikoresho birimo amarate n'amakereyo, gome, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo barusheho gukomeza kumenya ibintu bitandukanye bijyanye no gushushanya.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'abana biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri, biri mu mabara agiye atandukanye, bifashisha mu isomo ry'imibare kugira ngo babashe gushushanya no gutsinda neza.

Ibikoresho bizwi nkibitabo bikoreshwa mu kwiga mu mashuri abanza bibitse ahantu mu tubati twabugenewe kugira ngo bitangirika kandi birambe.

Abantu benshi bicaye, ku mpande zabo hari amasuka, imbere yabo hakaba hari umumama wambaye bote uri kubagezaho ubutumwa bujyanye nibyo bakora.

Ibishushanyo bishushanyije mu masura y'abantu, bikoreshwa byigisha abana biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri, ibijyanye na gahunda y'umuganura ndetse n'uburyo wizihizwa.

Inkuru ishushanyije irimo abana b'abanyeshuri ndetse n'umubyeyi wabo uri kubahugura, yifashishwa yigisha abana biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ishuri bifasha abana kwiga harimo intebe, ameza, ibibaho bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ya primeri.

Amarembo magari atanga ikaze kubaza bagana ikigo cy'amashuri abanza cya Groupe scolaire Nyagatare, kikaba kiri ahantu heza, ikirere gisa neza kandi gifite isuku.

Abanyeshuri b'abakobwa bari mu cyumba k'ishuri cyakamo amatara bambaye impuzankano irimo ishati y'ibara ry'umweru, amajipo yo mu ibara ry'icyatsi, bari kumwe n'umurezi wabo.

Abanyeshuri biga mumashuri yisumbuye, bambaye impuzankano ziri mumabara amashati y'ubururu, amapantaro y'icyatsi, bamwe baricaye undi arahagaze imbere yabo.

Abantu bagizwe n'abagabo n'abagore harimo abambaye amajire y'akazi bari ahantu bahagaze bari kwitegereza ibikorwa by'aho hantu ngo barebe niba hari ibyo bahindura cyangwa bakoramo.

Abanyeshuri biga mu mumashuri yisumbuye bicaye ahantu hamwe ari benshi bambaye impuzankano yabo iri mu ibara ry'umweru, amashati ibara ry'ubururu, amajipo bari gukora inama n'abayobozi b'ikigo.

Amashyiga ari mu gikoni cy'ikigo cy'amashuri yisumbuye, ateretseho muvero zikoreshwa bateka ibiryo abanyeshuri barya kugira ngo baticwa n'inzara igihe bari kwiga kandi amasomo ya bo agende neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi, bambaye udupfukamunwa n'impuzankano zirimo amashati y'ibara ry'umweru n'amapantaro ya kake bicaye hamwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka secondary, barimo abahungu n'abakobwa, bahagaze ahantu bambaye impuzankano zirimo amashati y'ibara ry'umweru, amajipo ya kake, ndetse n'amapantaro ya kake ,bahagaze batuje bambaye n'udupfukamunwa bamwe muri bo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka s begonderi bicaye mu ishuri bamanitse ikiganza bambaye impuzankano bari guseka, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyanditseho ibintu byinshi bitandukanye.

Abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi bambaye impuzankano zirimo amashati y'umweru, imipira itukura.

Abantu benshi harimo abambaye ingofero n'amajiri bari mu cyumba cyitwa laboratwari gikoreshwa n'banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi mu mugihe bari kwiga isomo ry'ubutabire.

Abanyeshuri benshi barimo abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano y'ishuri yabo, biga mu mashuri segonderi bicaye hamwe, bari kureba ibintu biri kuba imbere yabo.

Umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye ufite urupapuro imbere y'iwe, wambaye impuzankano ishati y'umweru, ku ruhande rwe hari umurezi na we ufite urupapuro imbere y'iwe, bameze nk'abari gusoma ibintu byanditseho.

Umunyeshuri w'umuhungu wiga muri segonnderi wambaye impuzankano ufite ibikapu wambaye n'agapfukamunwa uhagaze ahantu ari gusuzumwa umuriro hifashishijwe ikoresho cy'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa, biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi, bari gukora isuzumabumenyi kugira ngo babone amanota yo kubimura.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano bicaye mu cyumba cy'ishuri bafite amakayi n'amakaramu bari kwiyigisha kugira ngo barusheho gukomeza kwagura ubumenyi ndetse banunguke ibindi bintu byinshi bishya.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi, bambaye impuzankano zirimo amashati y'umweru n'amapantaro ya kake ndetse n'amajipo ya kake, bagiye ku rwibutso kwibuka abandi banyeshuri bazize Jenoside.

Abanyeshuri benshi bo mu bigo bitandukanye biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi bahagaze ahantu hamwe bishimye bari guseka bari kumwe n'abarezi babo.

Ibendera ry'Igihugu riri mu kigo imbere aho abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahagarara bagiye kuririmba indirimbo yubahiriza Igihugu.

Abanyeshuri b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi bambaye impuzankano ndetse bambaye n'amakaruvati bahagaze ahantu bari kwifotoza kandi bari guseka.

Abantu benshi, harimo abambaye ingofero n'amajile by'akazi, bahagararanye n'abayobozi bari mu kigo cy'ishuri cy'amashuri yisumbuye, bari kuganira ku bikorwa bijyanye n'ubwubatsi bakoze.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye azwi nka segoderi, wambaye impuzankano irimo ishati y'umweru, ijipo ya kake n'umupira w'icyatsi wakiriye ibintu abayobozi bamuhaye.

Abanyeshuri biga mumashuri yisumbuye azwi nka segonderi benshi bahagaze kumirongo bambaye impuzankano zirimo amashati y'ibara ry'umweru, amajipo, n'amapantaro yo mu ibara ry'ubururu n'imipira y'ububuru.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ari ahantu hamwe bambaye impuzankano irimo amashati y'amaboko maremare, ibara ry'umweru n'amapantaro n'amajipo byo mu ibara ry'umukara, bari kumwe n'umurezi wabo ufite mikorofone uri gutanga ijambo.

Abantu benshi barimo abambaye ingofero n'amajire y'akazi, bari mu cyumba kizwi nka laburatware, zigirwamo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyane cyane mu isomo ry'ubutabire.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi, bambaye impuzankano zirimo amajipo ya kaki n'amapantaro ya kaki, bari kumwe n'abarezi babo bahagaze ahantu bari gufata agafoto k'urwibutso rw'ibintu bari bari gukora.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano irimo amashati y'umweru, amajipo y'umukara n'amakaruvati mu ijosi, bicaye hamwe bari gukora amahugurwa.

Umuntu w'umugabo wambaye amadarubindi ufite mikorofone mu ntoki n'impapuro mu ntoki, uri gutanga mesaje ku bantu bicaye hamwe, bameze nk'ababyeyi n'abarezi b'abana biga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'imweru amajipo y'icyatsi n'imipira irimo ibara ry'icyatsi biga mumashuri yisumbuye bicaye hamwe bameze nk'abari mu misa.

Abakozi bakora mu kigo cy'amashuri yisumbuye, bicaye ahantu hamwe mu cyumba kirimo utubati turimo ibitabo abanyeshuri bakoresha biga, bameze nk'abari gukora inama.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ya segonderi bambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru, amashati, amapantaro asa na kake bari ahantu hamwe bari kuganira.

Abantu harimo abambaye ingofero n'amajiri by'akazi, bahagaze mu cyumba kizwi nka laboratwari, ikoreshwa n'abanyeshuri ba segonderi biga ibintu byubutabire.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi bicaye mu cyumba k'ishuri bari kwiga, inyuma hari ikibaho cy'umukara cyanditseho ibintu bari bari kwiga ndetse ubona ko batuje bameze neza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano irimo ishati isa n'umweru, amapantaro ya kake, biga mu mashuri yisumbuye, azwi nka segonderi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bari kumwe n'abandi bantu batambaye impuzankano bafite impapuro mu ntoki bari kuririmba indirimbo batura igitambo cya misa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi bicaye bari kumwe n'abarezi n'ababyeyi babo, bari ahantu mu matente kugira ngo izuba ritabica.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi bahagaze ku murongo imbere y'umuntu uri kubakira, hafi yabo hari na matera iteretse hasi ku mbuga.

Abanyeshuri bambaye impuganano, irimo ishati y'ibara ry'umweru, bo mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Nyagatare, bari kwereka abaturage bimwe mu bikorwa bikorerwa mu kigo cyabo.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano bahagaze ku mirongo biga mu mashuri yisumbuye, ari imbere y'ibidara ahantu habereye ibirori biri gususurutsa abitabiriye.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye imbere y'amashuri hari idarapo ry'Igihugu aho abanyeshuri bahagarara bari kuririmba indirimbo yubahiriza Igihugu ndetse imbere y'ishuri hari abayobozi b'iryo shuri.

Abanyeshuri bakuze biga muri segonderi, bambaye impuzankano bafite n'udupfukamunwa, bahagaze ahantu ku murongo umwe imbere y'umuturage.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi, bambaye impuzankano, bari mu matsinda ayobowe n'umurezi wabo uri kubereka ibyo bakora, ndetse banasoma mu gitabo.

Abanyeshuri benshi b'abana bari mu kigo bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru, ubururu, umuhondo, bahagaze ku mirongo imbere y'amashuri yabo.

Abantu benshi harimo abambaye ingofero n'amajire by'akazi, bari mu cyumba kizwi nka raburatwari, ifasha abana biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi mu kwiga amasomo y'ubutabire.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi bahetse ibikapu, imbere yabo hari imodoka z'ababyeyi babo zigiye kubajyana mu rugo ngo bagiye mu biruhuko ngo baruhuke bazabone uko batangira igihembwe cyangwa umwaka bameze.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye asa na segonderi, bicaye mu ishuri bambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru na kake n'imipira y'umuhondo, bari kwigishwa na mwarimu imbere yabo.

Abanyeshuri biga mu mumashuri yisumbuye bicaye mu cyumba k'ishuri bambaye impuzankano zabo zirimo amashati y'ibara ry'umweru, amajipo n'amapantaro y'ibara rya kake, bicaye bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika.

Ibikoresho bibumbwe mu ibumba bibitse mu tubati byakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza z'imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo bihangire umurimo.

Kimwe mu byumba by'ishuri bigize amashuri agize ikigo cya kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro kirimo intebe n'a ameza bikoreshwa n'abanyeshuri mu gihe cyo kwiga.

Ibikoresho birimo agasekuru gatoya n'umuhini wako, bibumbye mu ibumba, byakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro mu buryo bwo kwihangira umurimo.

Ikibumbano gifite isura y'umuntu, kibumbwe mu ibumba, cyabumbwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, ku ruhande rwacyo hari ibikoresho byakoreshejwe bakibumba.

Abanyeshuri batatu biga mu mashuri ya kaminuza y'imyuga n'ubumenyi ngiro bari mu cyumba k'ishuri, ni ahantu hari intebe nyinshi z'ubururu, icyumba gikeye gisa neza gifite isuku ihagije.

Udutako turi mu bwoko bugiye butandukanye, twakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, mu rwego rwo kwihangira imirimo ngo babashe kubona amafaranga.

Ibikoresho birimo agakayi gatoya n'impapuro bikoreshwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro igihe bari ku ishuri, bari gufata amasomo bahabwa na mwarimu.

Abantu benshi bakuze b'igitsina gabo n'igitsina gore bicaye mu nzu ngari bameze nk'abari gusenga batuje kandi bakurikiye ibiri kubera aho.

Igikoresho kibumbye mu ibumba gikoreshwa bateka cyakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Bumwe mu busitani bugize ishuri rya kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, bukeye bufite isuku bukikijwe n'indabo nziza, imbere yabwo hari umuhanda usashemo amabuye, ugana mu kigo mo imbere.

Ihuriro ry'abanyeshuri benshi basoje kaminuza, bambaye ingofero n'amakanzu, bitabiriye ibirori byo kugaraduwetinga no guhabwa impamyabumenyi zabo bakoreye biga.

Icyumba kiri muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyigiro kirimo ibikoresho bifasha abanyeshuri urugero harimo intebe, ameza, ndetse ku rukuta rw'icyo cyumba hashushanyijeho ibishushanyo bibafasha mu kwiga.

Igikoresho kizwi nk'isafuriya kirimo ibumba bakoresha bihangira imirimo abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyi ngiro kugira ngo babashe kwiteza imbere babone amafaranga.

Igishushanyo gishushanyije ahantu ku rukuta kigaragaza inyamaswa y'agasozi ihagaze hagati y'ibiti bibiri, mu kigo cy'amashuri ya kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyingiro.

Icyapa kigaragaza ibikorwa bijyanye n'ivugabutumwa kiriho pasiteri n'amakorari azaririmba muri kaminuza zigisha imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda.

Icyumba kirimo intebe ikoreshwa n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, bakoresha biga ndetse banaganira igihe nta masomo ahari.

Abanyeshuri benshi bahagaze ahantu, bambaye ingofero n'amakanzu, bamanitse ikiganza, bari mu birori byabo byo kwizihiza umunsi wo kwakira impamyabumenyi, bakoreye mugihe babaga bari ku ishuri.

Ibikoresho by'imitako bikozwe mu ibumba, byabumbwe n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, mu rwego rwo kwihangira umurimo wo kubaha amafaranga akabasha kwiteza imbere.

Inyubako nziza yo muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, igaragaza inzira ikozwe mu ngazi izamuka yerekeza muri iyo nzu mw'imbere, aho abantu banyura bazamutse.

Ikirangantego gishushanyije mu buryo bw'inyoni, cyanyanditsemo amagambo atandukanye, cyakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo barusheho gukomeza kwihangira imyuga.

Abanyeshuri benshi barimo abahungu n'abakobwa bahuriye ahantu hamwe bambaye ingofero n'amakanzu biteguye gukora ikirori cyabo cyo guhabwa impamyabumenyi zabo, bakoreye biga.

Ibikoresho bibumbye mu ibumba byakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro mu buryo bwo kwihangira umurimo, ku uburyo bazabijyana ku isoko bakabasha kubonamo amafaranga.

Amarembo afunguye ya kaminuza imbere yayo yicaye umusekirite uri kwaka abanyeshuri batambaye impuzankano ibyangombwa, bamwe binjira abandi basohoka.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro bafite ikaramu n'impapuro bari kwandika bameze nk'abari gukora isuzumabumenyi kugira ngo babone amanota.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyi ngiro harimo abambaye udupfukamunwa bose bicaye bafite ibitabo n'amakaramu bari kwandika bameze nk'abari gukora isuzumabumenyi.

Igikoresho kibumbye mu ibumba kiri mu bwoko bw'utubindi, cyabumbwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, gitegereje kujyanwa ku isoko kigatanga amafaranga.

Imeza iriho ibikoresho by'umunyeshuri wiga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, urugero rw'ibikoresho harimo ikaramu, amakaye ikarita y'ishuri na terefone yiwe ngendanwa, akoreshwa mu buzima bwe bwa buri munsi.

Icyumba kirimo intebe z'ubururu ndetse n'igikuta kiriho aho bacomeka ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kubona umuriro bikoreshwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyi ngiro kugira ngo barusheho gukomeza kwiteza imbere mu bijyanye n'ubumenyi.

Udutako turi ahantu twakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, mu rwego rwo kwihangira imirimo kugira ngo barusheho gukomeza gushaka uburyo bwo kubonamo amafaranga biteze imbere.

Bimwe mu bibumbano bibumbwe mu ibumba byakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyi ngiro mu rwego rwo kwihangira umurimo kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kwiteza imbere.

Abanyeshuri bari kumwe n'abarezi babo biga muri kaminuza y'u Rwanda, inyuma ku gikuta hariho ikirango cya kaminuza ndetse imbere yabo hari imeza iteretseho mudasobwa n'icupa ry'amazi.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, bari ahantu bari kwereka ibihangano n'ibibumbano ndetse n'ibishushanyo kugira ngo barusheho kugira ubumenyi.

Umuryango nimero gatandatu, umwe mu miryango igize ibyumba by'amashuri bya kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bigira kugira ngo barusheho gukomeza kugira ubumenyi butandukanye.

Abanyeshuri batambaye impuzankano biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyi ngiro bicaye mu ishuri bari kwigishwa na mwarimu wabo amasomo bifashishije ikoranabuhanga.

Kimwe mu byumba bigize amashuri agize kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, imbere kirimo irido, hejuru hamanitsemo porojegiteri bakoresha bagaragaza amashusho avuye kuri mudasobwa.

Ibibumbano bikozwe mu ibumba byakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza n'imyuga n'ubumenyingiro birindiriwe gutunganywaho bwa nyuma bikajyanwa ku isoko bakabona amafaranga.

Igikoresho cyabumbwe mu ibumba kiri ku meza cyakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro kirindiriye gutunganywa kikajyanwa ku isoko bagashaka amafaranga.

Abantu bari ahantu mu cyumba bicaye harimo n'abambaye udupfukamunwa bameze nk'abari mu itsinda bari kugira ibyo baganiraho bijyanye n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro.

Umuryango nimero ya mbere ugaragaza icyumba cya mbere mu byumba bigize amashuri kaminuza z'ubumenyigiro n'imyuga, ho abanyeshuri bigira amasomo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza imyuga n'ubumenyingiro barimo abahungu n'abakobwa, bari kugenda mu kayira kadatunganyije, ku ruhande hari ibyatsi bigakikije, imbere hari inyubako bari gusanganira.

Ameza ariho ikayi irambuye yanditsemo ibintu bigaragara ko ari umunyeshuri wari uri kuyigiramo, wiga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi kugira ngo akomeze akarishye ubumenyi.

Ibikoresho by'ibibumbano bibumbwe mu ibumba, byakozwe nbanyeshuri biga kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, mu buryo bwo kwihangira imirimo ngo babashe kubona amafaranga.

Ibikoresho bibumbye mu ibumba, byakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyi ngiro, kugira ngo babashe kwiteza imbere babone amafaranga.

Ibumba ryakuwe riri ku meza, rikoreshwa mu kubumba ibibumbano bigiye bitandukanye, bikorwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro mu buryo bwo kwihangira umurimo.

Imwe mu nyubako y'ishuri rya kaminuza y'imyuga n'ubumenyin ngiro imbere yayo hari ikigega kiri hejuru ndetse hakaba na pubele ku mpande z'inyubako bashyiramo imyanda kugira ngo banoze isuku.

Abanyeshuri benshi bicaye mu ishuri rya kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro bari kwiga bakoresheje uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga aho amasomo atambuka bakoresheje amashusho anyura kuri televiziyo.

Umuryango nimero icyenda umwe mu miryango igizwe inzu y'isomero yo muri kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyingiro abanyeshuri bicara bagasoma ibitabo bakaniga bakanihugura.

Imeza iriho kimwe mu gikoresho kizwi nk'agakoroboyi ndetse n'ibumba rikoreshwa mu gukora ibibumbano bigiye bitandukanye bikorwa n'abanyeshuri biga mu ishuri rya kaminuza y'imyuga n'ubumenyi ngiro.

Abanyeshuri b'abakobwa, biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, bambaye impuzankano irimo amashati y'amaboko maremare, ibara rijya gusa ubururu n'utujakete ndetse n'amajipo yo mu ibara ry'ubururu, bafite mudasobwa imbere yabo.

Abanyeshuri benshi bambaye udupfukamunwa, bicaye mu cyumba k'ishuri, bari gukora isuzumabumenyi kuko bafite: ikaramu, impapuro n'ibitabo imbere yabo bari gukoreramo isuzumabumenyi.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, bicaye mu cyumba k'ishuri, umwe muri bo akaba ari kubafotora ndetse muri icyo cyumba harimo n'izindi ntebe nyinshi zo mu ibara ry'ubururu.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, bicaye mu cyumba cy'ishuri, imbere yabo hari mudasobwa, bari gukoresha, basubiramo amasomo yabo kugira ngo babashe kuyatsinda neza.

Ibikoresho birimo intebe zibajwe mu mbaho ndetse n'intebe za purasitike, byifashishwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza imyuga n'ubumenyingiro, mu gihe bari kwiga kugira ngo babone aho bicara.

Icyapa kigezweho mu kwiga cyifashishwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza z'ubumenyi n'imyuga kugira ngo babashe kwiga kandi mu buryo bworoshye butabangamiye buri wese.

Imitako iri ku rukuta rw'inzu, ikoreshwa mu kwigisha abana, biga mu mashuri yisumbuye azwi nka kaminuza kugira ngo barusheho gukomeza gusobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bibafasha kwiyungura ubumenyi.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro bicaye mu cyumba, bafite mudasobwa imbere zabo bari kuzikoresha, mu buryo bwo kwihugura no kwiga ,kugira ngo bunguke ubumenyi.

Imwe mu nyubako zigize ishuri rya kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, imbere yayo hari inzira ikoze neza ishashemo amabuye, ku mpande zayo hari ubusitani bukikijwe n'indabo bumeze neza bwongera ubwiza bw'iyo nyubako.

Imwe mu nyubako zigize kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, imbere yayo hari abantu bari kuhanyura babanyeshuri mu busitani bwayo harimo igiti kirekire kirambutse.

Indobo iteretse ahantu ku meza, imbere yayo hari akarindantoki k'ikiganza kimwe, bikoreshwa mu kubumba ibibumbano bibumbwe mu ibumba, bikozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'imyuga.

Imwe mu nyubako zigize ishuri rya kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, nziza kandi ikeye, imbere yayo hari parikingi irimo imodoka, imbere yayo ndetse hari n'inzira igana aho hantu, ifite ubusitani bwiza kandi burimo ibiti.